Abaturage n'abayobozi biganjemo ab'inzego z'umutekano, bari gushyira ifumbire ku bigori, igihingwa kera ,gitanga umusaruro cyane. Ibi biba akenshi iyo ubuyobozi bwateguye igikorwa, cyo gushishikariza abaturage gufumbira cyane ,gukora ibindi bintu bikorwa cyane cyane ahantu kugira ngo bongere umusaruro.

Ibihingwa by'ibigori biri mu murima ,hakaba harimo akayira. Umuntu utwaye ifumbire mvaruganda ku igare. Akaba ari ifumbire rikoreshwa kugira ngo imyaka ize gutoha izakure neza, hazaboneke umusaruro ushimishije. Ifumbire kandi ituma ubutaka bugira ifumbire cyangwa se bugira ubushobozi bwo gutunga ikimera kigatoha.

Imifuka yuzuyemo imyaka kenshi iba ihunikwamo ibigori cyangwa ibishyimbo, akaba ari imifuka ikoreshwa mu gihe cyo guhunika imyaka cyangwa kuyipakira, bayijyana ku isoko bitewe n'umusaruro wabo, hajyamo ibigori bihunguwe, ibishyimbo byahuwe, amasaka, uburoni cyangwa indi myaka yose.

Uburyo bwo gutera umuti mu bihingwa bituma udukoko twangiza imyaka dupfa. Aha bafata imiti yabugenewe ivuye mu ruganda, bakayishyira mu pombo na yo yabugenewe itera umuti. Ubundi bagafuhira mu myaka. bituma utwo dukoko dupfa n'imyaka igakomeza kwera neza.

Ifumbire mvaruganda, ikaba ari ifumbire ikorerwa mu ruganda, nyuma ikaza guhabwa abaturage cyangwa igashyirwa ku masoko, kugira ngo bazayifumbize ku myaka ya bo, maze izabashe kugira umusaruro uhagije.

Igikorwa iwacu cyo gutera umuti mu myaka akaba, ahangaha biba cyane cyane iyo ubuyobozi bwegereye abaturage, bubakangurira, bunabashishikariza gutera umuti mu myaka yabo. Aha ngaha biragaragara ko hari, inzego z'umutekano, za gisirikari zegereye abaturage, bari gutera umuti mu bigori. Ibi bikorwa cyane cyane mu muganda ndetse no guha ubufasha abaturage.

Igishanga cyahinzwemo umuceri harimo, umugabo uri guteramo imiti, yica udukoko twangiza imyaka, iyi ni imiti ikorwagwa mu ruganda, yagenewe kwica udukoko dutuma imyaka yangirika, bayiteramo mu mazi, maze imyaka igatanga umusaruro ushimishije.

Uburyo bwo gutera umuti mu myaka kugira ngo hirindwe udukoko, ndetse no kwangirika kw'imyaka hazaboneke umusaruro ushimishije, iyi miti itunganyirizwa mu nganda maze ikaba yaragenewe guterwa mu myaka, kugira ngo hirindwe udukoko twangiza imyaka. Bayikoresha ipombo yabugenewe bashyiramo ingano izwi.

Umusaruro w'ibikomoka mu mazi cyangwa se ku mafi, higanjemo isambaza cyangwa se indagara. Izi zikaba ari udukoko cyangwa se udusimba duto tuba mu mazi turibwa n'abantu, dukundwa ku isoko, ku buryo abarobyi batwo biteza imbere mu mafaranga yavuyemo.

Indege ya kajugujugu akaba ari imwe mu ndege ntoya zitwara abantu bakeya. Akenshi zitwara abayobozi cyangwa abantu ku giti cyabo baziguriye. Iyi ndege ubona ko ari iya polisi, ikaba ishinzwe gucunga umutekano, ikaba iguruka mu kirere ikoresha igihe gito ugereranyije n'imodoka cyangwa moto, ikaba itwara abantu bake hagati ya munani na barindwi.

Umusaruro w'amafi, akaba ari ibikomoka mu mazi nk'inyanja, imigezi ndetse n'ibiyaga. Aha ni inyamaswa zikundwa cyane, kuko inyama zazo ziryoha, kandi ziri mu bikungahaye mu byubaka umubiri w'abantu.

Ubwato, igikoresho gikoreshwa mu mazi menshi, butuma abaturage boroherwa no kwambukiranya ayo mazi, ikindi kandi gikoreshwa mu kuroba mu mazi, kuko byorohera abarobyi kubasha kururoba mu mazi hagati, kandi bakagenda nta nkomyi.

Ibikomoka mu mazi byiganjemo amafi, amahera, indagara, isambaza , n'ibindi bitunganywa nyuma yo kurobwa mu mazi maze bikajyanwa mu masoko, bituma abaturage babona ibyo kurya, ndetse bakagira ubuzima bwiza. Kuko ,ibi bikungahaye ku byubaka umubiri w'abantu.

Amafi akaba ari kimwe mu nyamaswa ziba mu mazi, zigira umusaruro w'inyama zikaba zikundwa cyane mu maresitora, mu mijyi ,mu mahoteli, n'ahandi. Baziroba mu mazi nko mu nyanja, cyangwa se mu biyaga ,no mu migezi. Bituma abarobyi bayo biteza imbere.

Umusaruro w'ibikomoka mu mazi bikaba ari insambaza, zikaba ziryoha cyane kandi zikungahaye ku byubaka umubiri w'abantu zikaba ari kimwe mu biba mu mazi kandi biteza imbere abarobyi bazo, ndetse n'abacuruzi bazo bakazirya kuko zikundwa cyane n'abaturage mu kuzirya kuko ziraryoha.

Ubwoko bw'inyamaswa buba mu mazi, bworowe cyangwa se mu nyanja, cyangwa mu biyaga no mu migezi n'ahandi , bukaba burobwa bukajyanwa ku isoko, akaba ari kimwe mu biribwa bikundwa cyane, mu mahoteli n'andi maresitora n'ahandi.

Amafi, ubwoko bw'inyamaswa buba mu mazi, akaba ari kimwe mu bintu bikundwa cyane, kuko mu mahoteli, mu maresitora, ku masoko n'ahandi henshi cyane wabisangayo. Bikaba biba mu mazi, mu nyanja cyangwa se mu Kivu, bikaba birobwa nyuma bikaza kuribwa.

Ubwato kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu mazi mu ngendo z'abaturage cyangwa no mu burobyi, bakaba abaturage bagikoresha bambukiranya amazi, bikaborohera bishyura amafaranga, maze ubwato bagatwarwa bukabajyana aho bashaka kujya. Biborohereza mu kazi no mu buzima bwa buri munsi.

Imwe mu nyamaswa ziba mu mazi, zikaba zikundwa cyane mu mahoteli, mu maresitora, mu mijyi n'ahandi . Itanga amafaranga ku baziroba no kubacuruza inyama zazo. Aha irateguye igeza igihe cyo kuribwa kandi iraryoha cyane.

Ubwato; Igikoresho gikoreshwa mu mazi menshi, nko mu biyaga ndetse no mu migezi, bagikoreshwa mu ngendo, abaturage bari kwambuka ndetse, bagikoresha bari kuroba amafi cyangwa amahera, bakaba ari kimwe mu bintu byorohereza akazi k'abantu, bakoreraga hafi y'amazi no mu mazi.

Umusaruro w'amafi ukaba ari inyamaswa ziba mu mazi. ziribwa, zigira inyama ziryoshye zizwi nk'iz'umweru. Aha zikaba zirobwa hakoreshejwe ubwato. Ziba mu mazi menshi nk'inyanja, ibiyaga, imigezi n'ibindi. Zikaba zikundwa mu mahoteli no mu maresitora. Bituma abaturage baziteza imbere.

Ubwoko bw' ibikomoka mu mazi bizwi nk'amafi, indagara, isambaza n'ibindi, bikaba ari inyamaswa zibaga mu mazi, nyuma zikaza kurobwa zikajyanwa ku masoko maze, abaturage bakazirya bakamera neza, kuko zikungahaye kubyubaka umubiri w'umuntu.

Ubupaniye cyangwa se ubutete burimo umusaruro ukomoka ku biva mu nyanja, byiganjemo amafi, amahera, n'isambaza ndetse n'indagara. Bakaba babishyiramo kugira ngo ubashe kujyanwa ku masoko, ndetse wegerezwe abaturage babone uko bawuhaha babeho neza.

Icyuzi cyangwa se ahantu ikizinga cy'amazi hururirwamo umusaruro w'amafi. Akaba ari ahantu hatunganyirijwe kubikwamo amafi, bituma haboneka ibikomoka ku nyama bitera ubuzima bwacu gukura bizwi nk'ibyubaka umubiri.

Ubwato igikoresho gikoreshwa mu mazi mu gutwara abantu n'ibintu, kikaba ari igikoresho bakoresha ku biyaga no ku migezi, n'ahandi hantu amazi aba ari menshi bigorana kwambuka n'amaguru, abaturage iyo bashaka kuva ku nkombe bajya ku yindi bishyura amafaranga ku musare cyangwa umuntu utwara ubwato mu mazi, akabashyiramo akabambutsa bakamwishyura.

Ubwoko bw'ibiti byitwa imirwanyasuri cyangwa kayirandari, bikaba ari ibiti biterwa ahantu hari ubutaka buri mu manegeka cyangwa bufite ibyago byinshi byo gutembanwa n'isuri. Ibi ibiti bikaba birinda isuri.

Igitoki akaba ari igihingwa gikundwa cyane kandi cyera gitanga umusaruro kuko iyo cyeze kijyanwa ku isoko, kandi abaturage bo mu mujyi cyangwa se abandi bantu badahinga baragikunda kuko bajya kugihaha. Bigatuma abahinzi n'abacuruzi babyo biteza imbere binyuze mu kuba kiribwa n'abantu benshi cyane.

Cyangwa igishike hakaba ari ahantu hasaruwe imyaka nk'ibigori ibishyimbo n'ibindi, hakaba haba hasigayemo ibyatsi hategerejwe guhingwa, kugira ngo haterwe indi myaka izere neza.

Ubwoko bw'igihingwa cyitwa kameroni, ni ikimera gihingwa kugira ngo kizagaburirwe amatungo cyane cyane inka, kikaba gikungahaye ku bituma inka zigira umukamo mwiza, ndetse n'inyama. Kikaba gihingwa ku murima cyangwa ku mbibi z'umurima, kugira ngo kitangiza imyaka, ikindi gihabwa inka zikabaho neza.

Ikibara kimaze gusarurwamo imyaka y'ibigori, aha hakaba batema ibigori bakabikuramo, hagasigaramo ibyatsi n'ibindi bitigitiri byasigaye ikiba gisigaye ni ukuhahinga ubundi hagahingwamo indi myaka.

Cyangwa igishike kikaba ari umurima wasaruwemo imyaka, ukaba utegerejwe kongera guhingwa, haba harimo ibyatsi n'ibisigazwa by'imyaka yasaruwemo, nk'ibigorigori, ibishogoshogo ndetse n'ibindi byaba byarahinzwemo, bikaba ibi bituma ubutaka buba bubobereye, nyuma bwamara guhingwa neza bugaterwamo imyaka mishya.

Igihingwa cy'ibigori bikaba bigeze mu gihe cyo kuribwa, aho aha ngaha biba bishobora kuribwa ndetse byokejwe cyangwa bitetse, kandi biba bibura igihe gito ngo bize kwera neza bisarurwe bibone guhungurwa, nyuma umusaruro wabyo ujyanwe ahabugenewe, uzaze kuvamo ifu y'igikoma cyangwa iy'akawunga.

Cyangwa se igisambu kirimo ibyatsi, bigaragara ko cyasaruwemo ibigori, ibi bahingamo ibigori nyuma byamara kwera bakabisaruramo, bakabikuramo n'ibititigiri, hagasigara ibyatsi biri hasi ibyo bigatuma hazahingwa nyuma hagaterwamo imyaka mishyashya.

Ibirayi igihingwa cyera mu kibaya cyangwa mu musozi akaba ari kimwe mu bihingwa bikundwa cyane ku isoko, kuko bivamo ibiryo biryoshye n'ibizwi nk'amafiriti, ibirayi kandi ni kimwe mu bintu bituma abahinzi babyo biteza imbere kuko bikundwa ku isoko cyane.

Cyangwa igishike akaba ari ahantu hamaze gusarurwa imyaka itandukanye nk'ibigori cyangwa se ibishimbo. Aha habaga hamaze gusarurwamo imyaka hategerejwe kuza guhingwa indi myaka ikurikira imaze kwera, aha habaga hasigayemo ibyatsi na kimwe mu bisigazwa by'imyaka yasigaye.

Igihingwa cya kaloti kikiri mu murima ariko cyenda kwera. Akaba ari igihingwa cyo mumboga kikaba gihingwaga mu gishanga cyangwa ahandi hantu hari ubutaka bubobereye. kikaba gikundwa mu mijyi no mu cyaro kuko ari ikiribwa gituma ibiryo biryoha.

Igihingwa cy'igitoki kikaba ari igihingwa cyera cyane cyane mu misozi no mu bibaya ahantu hari ubutaka bwumutse. Kikaba cyera ikiribwa kizwi nk'igitoki gikungahaye ku bitera imbaraga, bikaba abaturage babihinga nyuma bakabijyana ku isoko, aho mu mujyi cyangwa se ahandi hantu abantu badahinga babasha kubigura bigateza imbere abahinzi.

Intabire cyangwa se umurima utaraterwamo imyaka, ariko umaze guhingwa, ibi bikaba bikorwa nyuma yo gusarurwamo imyaka, harimo ikibara cy'ibyatsi bakazakoresha amasuka bari guhinga kugira ngo bazateremo imyaka yere idafite ibyatsi bizwi nk'ikigunda, harimo insina zivaho ibitoki bitanga umusaruro .

Umurima udaheruka guhingwamo urimo ibyatsi waraye, ukikijwe n'ibiti birebire. Haba hrimo insina z'ibitoki byeramo ibitoki byo kurya, bijyanwa ku masoko cyangwa se ba nyirabyo bakabijyana iwabo bakabirya. Biterwamo inkingi kugira ngo igihe umuyaga waje bizabashe gukomeza guhagarara byere neza nta nkomyi bitarabaho.

Insina akaba ari igihingwa kivaho ibitoki byo kurya ndetse n'ibivamo umutobe ukorwamo inzoga, akaba gihingwa cyane cyane ahantu h'imisozi ndetse no mu bibaya kirahera haba ibitoki bijyanwa ku isoko, abaturage babasha kubona ibyo kurya ndetse n'abandi barabikama bivamo inzo bituma abaturage n'abahinzi babyo biteza imbere.

Igihingwa gihingwa mu gishanga no mu musozi ,ariko gikunda kwera mu gihe cy'imvura ,cyangwa ahantu hari amazi ,kirakundwa cyane mu isoko, kuko abantu bagihinga ni bamwe mu bantu na bo binjiza amafaranga menshi, kuko intoryi ziribwa akenshi ku mafunguro y'abantu benshi ,mu mujyi no mu cyaro.

Imyumbati ikaba ari igihingwa gitanga umusaruro ushimishije, kuko gikunda guhingwa ahantu hari ubutaka bwumutse, bituma kigira amafu kigakundwa ku masoko, ndetse hari n'imyumbati ivamo ifu y'ubugari, umutsima uryoha cyane ndetse cyera mu butaka kandi kiba gikomeye kiryoshye.

Iteke rikaba ari ubwoko bw'igihingwa kera cyane cyane ku butaka butoshye. Rikaba iteke ari kimwe mu biribwa bitera imbaraga umubiri w'abantu. Amateke kandi ni kimwe mu bihingwa bikundwa ku isoko, bituma amafu yabyo ndetse kuba biryoha abantu babikunda cyane.

Ikusanyirizo ry'ibitoki, aho ari ibihingwa byera mu misozi no mu bibaya ahakaba abacuruzi bajya kubishakayo, nyuma bakabizana mu mujyi cyangwa ku masoko bituma abandi bantu badahinga cyangwa se badafite aho guhinga babona aho bakura ibyo kurya byiganjemo ibitoki, maze ubuzima bwabo bukagenda neza ndetse n'abacuruzi bakiteza imbere.

Abahinzi bari mu murima w'amashu. Barimo gusarura ubu akaba ari ubwoko bw'imboga bukundwa cyane ku masoko, kuko ari kimwe mu mboga ziribwa. Ahantu cyane hagaburirwa abantu benshi nko mu magereza n'ibigo by'amashuri bicumbikiye abantu n'ahandi hasangirwa abantu benshi cyane nko mu maresitora ,akaba izi mboga ari kimwe mu bintu bituma zigira amafaranga menshi ku bahinzi bazo.

Amapera ubwoko bw'imbuto bwera ku giti kikaba gishyirwa mu rugo cyangwa ku ruzitiro, ndetse n'ahantu mu ishyamba bukaba bwera burakundwa no ku masoko bubayo. Ikindi kandi bituma ahantu buri haboneka igicucucucu, ndetse bigatanga n'umusaruro.

Umusaruro w'ibishimbo ukaba ari igihingwa gihingwa jya mu musozi, mu gishanga, no mu cyaro kikaba ari kimwe mu bihingwa bihingwa cyane mu Rwanda, kuko biboneka ku mafunguro akenshi ya buri munsi y'abaturage. Iki ni igihingwa kigira amafaranga kuko abantu benshi bakirya kandi bagikunda cyane.

Isoko ry'ibiribwa ryiganjemo imboga n'imbuto. Hakaba harimo imbuto z'ubwoko butandukanye. Ibi bikaba ari ibintu abaturage bajya gushaka mu cyaro, n'ahandi mu yindi mirima byezemo; bakabizana mu mujyi. Bituma haboneka abakiriya bo kubigura, baba babashije kubihinga no kubikura ahandi hantu bikaborohera mu buzima bwa buri munsi.

Ubwoko bw'urubuto cyangwa imboga bwitwa pavuro, akaba aha ngaha ari ibituku byahishijwe ,bigaragara ko bizatunganywa bikavamo imbuto zindi z'ingemwe zikongera zigahingwa. Runo rubuto ruhingwa ahantu ubutaka bububereye mu gishanga n'ahandi, bituma umusaruro wayo uba utubutse, bigatuma ku masoko uboneka ku bwinshi.

Igihaza kikaba ari kimwe mu biribwa biri mu bwoko bw'ibitera imbaraga umubiri w'umuntu. Kikaba cyera hasi kiranda, kikerera rimwe ibihaza byinshi. Bituma gitanga umusaruro ushimishije kuko kivamo amafaranga menshi. Kirera cyamara gukura cyane bakagisarura, cyangwa bakakireka kikabanza kikavamo inzuzi, zivamo imbuto.

Ihene, itungo rigufi ryororerwa mu rugo. Rigira umusaruro ku mworozi waryo, kuko inyama zaryo zirakundwa cyane mu tubari no mu migi, izizwi nka burushete. Ikaba ihene yororoka neza, kuko ishobora no kubyara abana b'ihene batatu icyarimwe.

Ibirayi igihingwa gikundwa cyane kandi gitanga umusaruro utubutse, ku bahinzi ku bacuruzi ndetse n'abandi benshi , kikaba ari igihingwa gikundwa ku masoko , kuko gitanga amafaranga ku bahinzi bacu n'abacuruzi , kirakundwa mu maresitora mu mahoteli mu bukwe n'ahandi henshi , ni ikiribwa gikundwa cyane.

Indimu akaba ari ubwoko bw'imbuto zigira vitamine cyangwa se ikinyabutabire gituma ubuzima bw'umuntu bumera neza. Kikaba kigabanya imyanda mu mubiri, kikaba kivura kikanarinda indwara zimwe na zimwe. Indimu irakundwa ku isoko, kandi abantu benshi barayirya.

Umusaruro w'amasaka, akaba ari igihingwa gihingwa, nyuma kikaza gusarurwa, kikaba gihingwa maze impeke cyangwa se umusaruro uvuyemo ugashyirwa hamwe, ugatunganywa kuko uvamo ifu y'igikoma, ndetse n'ibindi, aho havamo n'urubetezi rukora inzoga n'ifu ivamo umusururu.

Igihingwa cy'imyumbati kikaba ari igihingwa gikungahaye mu bitera imbaraga umubiri w'umuntu. Cyeraga mu musozi ndetse n'ahantu hari ubutaka bwumutse, bituma kigira amafuvu maze kikaryoha, maze no ku isoko kigakundwa cyane. Bituma abahinzi n'abacuruzi bakuramo inyungu bakiteza imbere n'abaturage bakabona ibyo kurya.

Ikigori igihingwa gihingwa ku musozi no mu kibaya. Kikaba gitanga umusaruro ushimishije kuko kivamo ibintu byinshi bitandukanye byiganjemo ifu y'igikoma, ifu ivamo umutsima uzwi nka kawunga. Ikindi kandi ibigori biraribwa cyane cyane mu cyaro, no mu mujyi kuko biribwa bitetse cyangwa byokeje.

Akaba ari igihingwa cyangwa ikiribwa gikungahaye ku bitera imbaraga umubiri w'umuntu, akaba gihingwaga kikirira hasi mu butaka ,iyo cyashyizwe ku butaka bukomeye kiza gikomeye gifite amafu, bituma kiryoha, kigakundwa no ku masoko ,bituma abahinzi bacyo biteza imbere, ndetse n'abacuruzi na bo bakiteza imbere, n'abaturage bakabona ibyo kurya byiza.

Isoko ry'ibiribwa byiganjemo imboga n'imbuto, hakaba harimo imiteja, karoti, intoryi, inyanya na puwavuro n'ibindi, ibi bikaba ari kimwe mu bituma abaturage batuye mu mujyi batabasha guhinga, babona ibiryo ku buryo buboroheye ndetse n'ababihinze bo mu cyaro n'abandi bakiteza imbere, binyuze mu mafaranga avamo.

Abahinzi bari mu murima w'amashu kikaba ari kimwe mu bihingwa by'imboga bibera cyane cyane ahantu hari ubutaka bubobereye, nko mu gishanga n'ahandi hagaragara amazi, kikaba ari igihingwa gikundwa ku masoko kuko kiribwa cyane cyane ahantu hatunganyirizwa amafunguro y'abantu benshi, nko mu magereza mu bigo by'amashuri n'ahandi.

Igihingwa cy'umwumbati gikungahaye ku bitera imbaraga, akaba ari igihingwa giterwa ari igiti, nyuma kigakura, kikazamura ikimera hejuru, munsi hakeramo imwumbati, ari na cyo umusaruro wacyo ukaba ukundwa cyane ku masoko, kuko uribwa cyane cyane ku mafunguro atera imbaraga.

Umusaruro w'imyumbati, akaba ari kimwe mu gihingwa kibamo ibiribwa bikungahaye, ku bitera imbaraga umubiri w'umuntu, kirahingwa cyane cyane ahantu hari ubutaka bwumutse, bituma kigira amafufu maze kigakundwa ku masoko, imyumbati kandi hariho iy'ubwoko bundi ivamo ubugari butuma buribwa, ahantu henshi ku isoko irakundwa cyane.

Igihingwa cy'amashu akaba ari ubwoko bw'imboga bwerara mu gihe gito kandi bukaba bikundwa ku masoko, kuko bukunda gutekwa ahantu hagaburirwa abantu benshi nko mu bigo by'amashuri, mu magereza, ndetse n'ahandi nko mu maresitora.

Ubwoko bw'amatungo magufi buzwi nk'ihene, akaba ari kimwe mu matungo agira umusaruro mwiza cyane, kuko inyama zayo zikundwa cyane, mu mahoteli aho zizwi nka burusheti .Ikaba ari itungo rigufi ryororerwa mu rugo cyangwa mu kiraro kandi ryororokaga cyane.

Urukwavu itungo rigufi ryororerwa mu kibuti, cyangwa se ikiraro cyabigenewe. Rikaba rigira umusaruro kuko ryororoka mu gihe gito, kandi inyama zarwo zikaba zikundwa mu maresitora, mu mahoteli n'ahandi. Bituma aborozi b'inkwavu biteza imbere cyane binyuze mu mafaranga azibamo.

Avoka zitandukanye, akaba ari ubwoko bw'urubuto rwera ku giti, bikaba biterwa ahantu kugira ngo bikore amahumbezi, ndetse hari n'izihingwa kugira zizatange umusaruro wo kujyana ku isoko, avoka ni kimwe mu biribwa biryoha cyane ,bikaba bikunda kuribwa bishyizwe ku mafunguro ya buri munsi bikaryoha.

Umuhinzi uri mu murima wa karoti urimo kuzisarura ,akaba ari ubwoko bw'imboga bwera ahantu mu gishanga, cyangwa mu kibaya yewe no mu musozi ,akaba ari imboga zikundwa ku masoko ,kuko ziryoha iyo zitetswe neza zirakundwa ,bituma abaturage cyangwa abahinzi bazihinga biteza imbere ,ndetse n'abacuruzi bakiteza imbere yewe n'abazigura bakaryoherwa.

Inkoko z'amasake za kijyambere, cyangwa se iz'ubwoko kaba ari inkoko, itungo rigufi ritanga umusaruro w'inyama, rikaba rikundwa mu mahoteli, mu maresitora n'ahandi, bituma aborozi bazo babona amafaranga menshi cyane.

Umurima w'ibigori byezi uri ahantu mu gishanga, kikaba ari igihingwa cyera neza mu gishanga ubundi kigatanga umusaruro iyo cyafumbiwe neza. Gituma abahinzi bacyo bagira inyungu nziza cyane kandi no ku masoko ibigori iyo bihari, inzara y'abandi baturage iba itagihari.

Igihingwa cy'ikigori, kikaba ari kimwe mu gihingwa gitanga umusaruro, kuko kivamo amavu atandukanye, yiganjemo ay'igikoma ndetse n'andi, avamo umutsima azwi nka kawunga, ikindi kandibyatsi byacu ni kimwe mu bintu bitanga ifumbire, ndetse bigatuma n'inka zibona ubwatsi.

Isoko ricururizwamo ibiribwa byiganjemo imboga, n'imbuto, bikaba ari ibiribwa bikurwa mu murima no mu cyaro, aho bihingwa abacuruzi bajya kubirangura bakabyegereza mu mugi no mu masoko, bituma abaturage badahinga babasha kubona ibyo kurya biboroheye, kandi n'abacuruzi bakiteza imbere n'abahinzi bagakuramo amafaranga.

Usanga ahantu hatunganyirizwa umusaruro w'umuceri, ukaba uhingwa mu gishanga, kuko ukenera amazi menshi mu butaka, bituma wera neza ugatanga umusaruro ushimishije. Barawusarura, bakawuhura nyuma ugashyirwa mu mifuka, ukajyanwa aho uzatonorerwa, kugira ngo uzagere ku masoko umeze neza, abaturage babasha kubona ibyo kurya.

Igitoki kaba ari umusaruro w'abahinzi w'ibitoki, ukaba uhingwa cyane cyane mu misozi no mu bibaya, maze nyuma wamara kwera, abacuruzi bakajya kubivanaho babijana ku masoko, bituma abantu batuye mumujyi batabasha guhinga, babona ibyo kurya biboroheye bakishyura amafaranga abahinzi n'abacuruzi nabo bakiteza imbere.

Abahinzi bikoreye umusaruro w'icyayi bakaba bajya kuwusarura mu murima bakoresheje ibitebo, cyangwa se ibipaniye byabugenewe, nyuma bakawujyana ku makusanyirizo. Bituma ugezwa aho uzatunganyirizwa. Nyuma ukagaruka ari kimwe mu bintu bikundwa cyane ku isoko.

Bari mu murima w'ibigori bikiri bitoya, bakaba bikoreye ingemwe z'ibiti bivamo umusaruro uzwi nk'uw'imbaho cyangwa bigacanwa, ndetse bikaba birinda isuri, ikindi kandi bikaba bitanga umwuka mwiza duhumeka, bituma ikirere gihora gisa neza kandi ntigihindagurike uko kibonye.

Isoku ricururizwamo ibiribwa byiganjemo ibitoki, akaba ari ibicuruzwa biva mu ngo cyangwa ahandi hantu hahingwa ibitoki. Abantu bajyayo kubirangura nyuma bakabizana ku masoko bakagurisha abaturage. Kandi abatabifite bo mu mijyi cyangwa badashobora guhinga bagatanga amafaranga yatuma abacuruzi babyo biteza imbere.

Igishanga, ahantu hari guhingwa igihingwa c'yumuceri. Akaba ari igihingwa caraga ahantu habaga amazi menshi cane nko mu gishanga kabagiraga umusaruro mwiza kandi ukundwaga ku isoko kuko abahinzi bacu bagiraga amafaranga bakuye mu muceri nk'ikintu gikundwa n'abantu benshi kibonekaga ku mafunguro y'abantu. benshi

Indimu cyangwa amacunga ubwoko bw'imbuto bwera ku biti, bukaba bukundwa cyane ku masoko, kuko akenshi ari kimwe mu bintu bituma imibiri y'abantu igenda neza, kuko cyifitemo ibinyabutabire bigabanya umwanda mu mubiri w'abantu.

Voka ubwoko bw'imbuto bwera ku giti. Bukaba ari ibiti bihingwa mu rugo cyangwa ahandi hantu hazitiwe. Bikaba bikundwa ku isoko cyane. Kuko avoka iyo zimaze kwera zijyanwa ku isoko zigakorwamo bimwe mu bintu byo mu nganda, nk'amavuta yo kwisiga. Ikindi kandi ziraryoha iyo zashyizwe ku mafunguro asanzwe.

Indobo, ibikoresho bikoreshwa n'abacuruzi cyane cyane iyo bashyizemo imboga, imbuto, ubunyobwa n'ibindi. Aha hakaba bashyizemo icyo bita wotameroni. Akaba ari urubuto rukundwa cyane, rugira umutuku mo imbere, habamo ikintu kimeze nk'igihaza kiryoherera.

Ubwoko bw'imbuto buzwi nk'amapera, bukaba ari bumwe mu mbuto zikundwa kandi ziryoha cyane, zera mu biti, mu cyaro n'ahandi, zijyanwa ku masoko bituma abaturage batabasha guhinga cyangwa kuzibona boroherwa no kuzigura bitabagoye.

Umusaruro w'ibijumba ukaba ari kimwe mu bihingwa bitera imbaraga akaba ari umusaruro mwiza uba ushimishije. Kubera ko ibijumba byera ahantu hari ubutaka bukomeye ,bituma bigira amafufu kandi bigakundwa ku masoko .Ibijumba kandi bikorwamo imigati ndetse n'ibindi

Umusaruro w'ibijumba washyizwe hamwe, ukaba ari igihingwa kivamo ibiribwa bitera imbaraga umubiri w'abantu, ibijumba kandi biraryoha, iyo byahinzwe ku butaka bwumutse, bituma bigira amafu, maze ku masoko bigakundwa cyane.

Urubuto rwa avoka rukaba ari urubuto rwera ku giti, kenshi bikaba bikundwa guhingwa cyangwa guterwa mu rugo cyangwa ahantu hazitigwa ku muhanda n'ahandi, akaba ari urubuto rutanga amafaranga kuzihinga kuko rukundwa mu isoko n'abantu bakunda kuzirya bazishyira ku mafunguro yabo.

Imyumbati kimwe mu biribwa bitera imbaraga bikungahaye ku ntungamubiri y'ibitera imbaraga, akaba ari igihingwa cyerera mu butaka. Batera igiti kikazamera mizi hejuru, kikazamura ikimera munsi kikazazamo imyumbati. Iyo kimaze kwera kirayanga kigasarurwa, kikajyanwa ku isoko cyangwa kikaribwa.

Imodoka yatwara imizigo, ahangaha ikaba iri gupakira umusaruro w'ibitoki, ikaba ibikura, ahantu bihingwa nko mu murima, ibijana mu mujyi cyangwa ku masoko, bituma abaturage bajana umusaruro ku isoko, borohewe kandi n'abandi, bakawubona bitabagoye bakoroherwa, bibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Ubwoko bw'imbuto buzwi nk'amapapayi, bukaba bwera ku giti kandi iyo bweze buba butukuye burashya bugasa umuhondo. Burakundwa cyane ku masoko kuko buryoherera kandi bukungahaye ku birinda indwara.

Ubwoko bw'imbuto bwitwa amapapayi, bwera ku giti iyo buhiye buratukura cg se bugasha bugasa umuhondo. Araryoherera cyane bituma ku masoku yakundwa cyane, n'abahinzi babwo bakiteza imbere binyuze mu mafaranga bacurujemo.

Ububiko bw'ibinyampeke byitwa amajeri, bikaba ari kimwe mu bintu bikundwa kuko bigira uburyohe iyo bitetswe neza, ni umusaruro wera ahantu hari ubutaka bworohereye, kuko bituma bishisha maze bigatanga umusaruro ushimishije ku masoko, biragurwa cyane abahinzi b'amajeri biteza imbere.

Ikijumba akaba ari ikiribwa gikungahaye ku bitera imbaraga umubiri w'umuntu, akaba ari kimwe mu biribwa bikundwa cyane ku masoko ndetse no mu cyaro biraribwa cyane, cyera mu itaka kandi ku butaka bwumutse bituma kiryoha kikagira amafu, gishobora kuribwa ndetse gikorwamo n'ibindi bintu nk'imigati n'ibindi.

Imbuto ziri gucururizwa mu isoko, ziganjemo ibinyomoro, imineke, amacunga, inanasi, n'ibindi. Akaba ari imbuto zicururizwa mu mujyi cyangwa mu gasantere no mu isoko, abacuruzi bajya kuzishaka ku bahinzi mu cyaro, n'ahandi hantu bazihinga, bagatanga amafaranga, nyuma bakaza kuzigurisha ku bantu batazifite, bakazigura nabo bakiteza imbere.

Amatunda ubwoko bw'imbuto zikundwa cyane ku masoko, kandi zera ziranda. Nyuma iyo zeze ziratukura, umusaruro wazo ukajyanwa ku masoku, kandi zigira amafaranga ku bahinzi bazo n'abacuruzi, kuko zirakundwa cyane.

Ubuhunikiro akaba ari inzu cyangwa ahantu hashyirwaga umusaruro umaze gusarurwa, bituma ubikwa neza kugira ngo uzatunganwe, ukoreshwe mu gihe kizaza. Ibi byorohereza abahinzi kuko bituma badahendwa ku isoko, kandi bituma umusaruro wabo utangirika.

Ibiribwa by'amateke akaba ari kimwe mu biribwa bitera imbaraga umubiri w'abantu, aya mateke akunda guhingwa ahantu hari ubutaka bujejeta ni nkovuga ngo mu gishanga n'ahandi haboneka amazi, amateke akaba aryoha kuko agira amafufu bituma mu masoko akundwa cyane.

Isoko ry'ibiribwa ryiganjemo imboga n'imbuto, ibirayi n'ibindi byinshi, aha akaba ari ahantu hacururizwa ibiribwa, abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, abacuruzi bajya kubirangura aho bihingwa bakabyegereza abaturage, bituma boroherwa no guhaha ndetse n'abacuruzi bakiteza imbere.

Ubuhunikiro cyangwa se inzu yagenewe kubikwamo umusaruro w'ibirayi. Abaturage basarura umurima wa bo w'ibirayi, bakabijyana mu buhunikiro, kugira ngo bitangirika cyangwa ngo babicuruze kuri make. Bakabigurisha ku masoko bijyanye n'igihe cya nyacyo. Ibi bituma bunguka badahutiyeho ngo babigurishe.

Abahinzi barimo gukura ibirayi bakoresheje intoki, akaba ari igihingwa iyo cyahinzwe mu butaka bworoshye cyangwa se ubutaka bwinshi cyane, biba byoroshye kugikura, kandi kiba cyarakuze neza, gifite umubyimba munini, kinaryoshe, ibi bituma gikundwa ku isoko, abahinzi bacyo bakiteza imbere, ndetse nabo bakabasha kubona ibyo kurya.

Ubwoko bw'imbuto bwitwa amatunda akaba ari ubwoko buhingwa cyane cyane mu cyaro, kandi akaba ari imbuto zera ziranze ku ruzitiro cyangwa ku biti, ziratukura iyo zigeze igihe cyo gusarurwa, zirakundwa mu masoko cyane atuma abahinzi bazo ari bamwe mu bantu bagira amafaranga menshi kuko zihenda ku isoko.

Umurima w'ibirayi urimo gusarurwa, bikaba ari kimwe mu bihingwa bikundwa cyane ku masoko. Gihingwa kenshi cyane ahantu hari ubutaka bwumutse, nyuma kikaza gusarurwa. Umusaruro wabyo ukajyanwa ku masoko, cyangwa n'abaturage bakabijyana mu ngo kubirya, kandi ibirayi bituma abahinzi babyo biteza imbere, kuko bikundwa ku masoko cyane cyane.

Igisobane kikaba ari igikoresho gakondo, kibohwa mu biti bikebye cyane cyane iby'imbingo cyangwa se inseke, kikaba gikoreshwa mu guhunika imyaka y'ibigori, amasaka, ibishyimbo n'ibindi.

Igihingwa cy'ibishyimbo kikaba ari kimwe mu bihingwa bifite ubwoko butandukanye, hakaba hari ibishingirirwa n'ibidashingirirwa. Aha hari ubwoko bw'ibishingirirwa, aho biterwa byamara kuzamuka bigashyirirwaho ibiti cyangwa se ibishingirizo bizamukiraho, bituma umusaruro wa byo uba mwinshi, kuko bigera hejuru hose bifiteho imishogi ivamo ibishyimbo.

Amahundo y'amasaka, akaba ari ubwoko bw'igihingwa gihingwa mu butaka bwumutse mu musozi ndetse no mu bibaya. Kikaba ari igihingwa kivamo umusaruro ushimishije, kuko cyera cyane umusaruro mwinshi utuma abahinzi bacu biteza imbere. Aya mahundo avamo amasaka iyo ahuwe.

Imifuka ihunikwamo imyaka, aha bafata umusaruro w'ibigori, ibishyimbo, soya cyangwa se ibindi bihingwa, bakabitunganya bigashyirwa mu mifuka, bikabikwa neza kugira ngo bizakoreshwe mu gihe kizaza, maze abaturage batazicwa n'inzara bituma n'abahinzi badahomba kuko badahendwa ku masoko ku bakazagurisha ku giciro gikwiye mu gihe kizaza.

Inzuzi zikaba ari ubwoko bw'ibiribwa bizwi nk'ibihaza, hakaba havamo imbuto mo imbere mu gihaza, ari zo izi nzuzi, zikaba zikoreshwa mu guhinga ibindi bihaza, kuko ari imbuto cyangwa bakazanika, bakazikaranga zikavamo ubunyobwa, ndetse zararibwaga cyane mu Rwanda rwo hambere.

Igihwagari kikaba ari igihingwa ngengabukungu, kuko umusaruro wacyo uvamo bimwe mu bintu bikundwa cyane ku isoko nk'amavuta, igihwagari gikorwamo amavuta yo kurya anakundwa cyane ku isoko bituma abahinzi bacyo biteza imbere, ikindi kandi igihwagari gifitiye akamaro kuko inzuki ni kimwe ahantu zihahira ibyo zirya zikuramo ubuki.

Ubwoko bw'ibinyampeke bizwi nk'ubunyobwa, hakaba hari umusaruro w'igihingwa gihingwa cyane cyane mu musozi, kikaba kivamo ifu iribwa ku biryo by'abantu mu buzima bwa buri munsi.

Inzuzi ziva mu gihingwa kitwa igihaza. Akaba ari igihingwa cyera hasi kiri kuranda, kikaba kizana icyo bita gihaza, barakirya, cyangwa bakakireka kikera hakazavamo inzuzi zivamo ibindi bihaza, cyangwa bakazikoramo ifu iribwa ku biryo.

Umusaruro w'ibigori uri mu bubiko cyangwa mu buhunikiro, akaba ari amahudo menshi ashyirwa ahantu hamwe, kugira ngo umusaruro utangirika, ituma abahinzi babyo babona amafaranga, mu gihe umusaruro wabo wagejejwe ku isoko, mu gihe kiri imbere ituma badahendwa.

Ubwoko bw'ibinyampeke bizwi nk'ibishyimbo bikaba ari igihingwa gihingwa cyane mu gihugu, kuko gikundwa cyane, akenshi usanga nko mu cyaro ari kimwe mu bintu bigaragara ku ifunguro ry'abaturage rya buri munsi. Kikaba ari igihingwa gituma bagira imibereho myiza, ndetse kigatanga n'amafaranga ku babashije gusagurira isoko.

Umusaruro w'ibishyimbo, ukaba ari kimwe mu gihingwa gitanga umusaruro ushimishije kandi gikundwa ku masoko kuko kigaragara ku mafunguro ya benshi buri munsi, mu gihugu kikaba ari umusaruro utuma abahinzi n'abacuruzi biteza imbere, kuko gikundwa ku isoko cyane.

Ingorofani ikaba ari ikinyabiziga kitagira moteriz kigira amapine abiri ,gikoreshwa mu buhinzi ndetse n'ahandi hantu hakurwa imyanda ,kigira igisahani gishyirwamo ibyo gutwarwa nk'imizigo ,ndetse bagasunika kuko gifite imikondo ibiri yo gusunikiraho, yorohereza abantu gutwara ibintu, bidasabye kubyikorera.

Ubuhunikiro akaba ari inzu ihunikwamo imyaka yeze yiganjemo iy'ibigori aha bafata umusaruro bakawujyana aha. Kugira ngo utangirika nyuma uzaze gutunganywa ujyanwe mu nganda cyangwa se ku masoko, ibi bituma abahinzi umusaruro wabo utangirika kandi ukabonerwa isoko.

Iki rero akaba ari ahantu hashyirwa umusaruro w'ibigori umaze gukurwa mu murima, maze kugira ngo uzabashe kuma neza utangiritse, bikaba bituma abaturage badahura n'igihombo cyo kuba umusaruro wa bo wakwangirikwa. Bishyirwa aha, byamara kuma bikajyanwa mu nganda bigatunganywa, hakavamo amafu atuma abaturage babona amafaranga menshi ashimishije.

Imodoka itwara umusaruro w'abahinzi, ikaba abahinzi bahinga, bamara gusarura bakabijyana ku ikusanyirizo ituma bimara igihe, bimaze gutungana, haza imodoka iza kubitwara ibijyana aho bizatunganyirizwa, kugira ngo bizajyanwe ku masoko ari ibyo kuribwa.

Ikigori akaba ari kimwe mu bintu bikundwa cyane, iki gihingwa cyera mu gihe kitari kinini cyane, kandi gitanga umusaruro uvamo ibintu byinshi, nk'ifu y'igikoma, ifu ya kawunga, ndetse gishobora no kuribwa kikiri kibisi, cyangwa kigatekwa kitarahungurwa, bizwi nk'amahundo.

Igishyimbo kikaba ari igihingwa cy'ikinyampeke, gihingwa kikaba kigira umusaruro ushimishije, kuko gishobora kuribwa kikiri intonore, cyangwa ukakireka kikuma neza kigashyigwa ahabugenewe, ubundi kikaza gutekwa nyuma, kuko kandi kenshi usanga biboneka ku mafunguro y'abatuye b'u Rwanda ya buri munsi.

Amasaka ubwoko bw'ibihingwa bikunda guhingwa cyane mu cyaro ,akaba ari kimwe mu bihingwa gakondo, kuko kera byakoreshwaga mu kwenga inzoga, n'ubungubu rimwe na rimwe mu cyaro birakoreshwa kwenga inzoga n'ibindi bintu ,ariko cyane cyane ifu yabyo yavagamo umutsima mu Rwanda rwo hambere, ubungubu bikunda kuvamo ifu y'igikoma n'ibindi.

Umusaruro w'ubunyobwa buhunitswe ahantu, burimo kurobanurwa cyangwa gukosorwa ,kugira ngo ubashe kujyanwa aho utunganyirizwa hazavemo ifu, ndetse n'ibindi bintu bikomoka ku bunyobwa, ibi bituma abahinzi babwo bagira amafaranga menshi ,kuko borohereza kujyana ahantu utunganyirizwa ,ugatanga amafaranga menshi.

Imifuka myinshi ipanzemo umusaruro runaka, ibi bikaba bikorwa mu gihe umusaruro wakuwe mu murima ukajyanwa ahantu nko mu ruganda, ugatunganywa, nyuma ukaza gupangwa mu mifuka, kugira ngo imodoka zijye ziwuzana ziwegereza abaturage mu bice bitandukanye, ubashe gukoreshwa.

Umugore urimo kugosora imyaka akoresheje intara, akaba ari igikoresho gakondo gikorwaga mu giti, kiboshwe neza gishashe, bashiraho imyaka ubundi bakajya bayiterera hejuru mu buryo bwo kuyivangura n'imyanda, ikikugwa kizwi, cyitwa kugosora.

Igihingwa cy'umuceri gihingwa mu gishanga, cyangwa ahandi hantu hagaragara amazi menshi cyane, kuko gikenera amazi kugira ngo cyere neza, gitange umusaruro uhagije. Kirahingwa nyuma kigasarurwa, kigatunganwa, harimo gutonorwa, ubundi kikabona kujyanwa ku isoko, abaturage bakabihaha bakabirya.

Igihwagari ni kimwe mu bihingwa ngegabukungu, kuko kivamo ibintu byinshi cyane akenshi higanjemo amavuta aryoha akundwa cyane ku isoko y'ubuto, akoreshwa mu guteka ibiryo cyane cyane nk'ifiriti ,n'inyama, n'ibindi igihwagari kandi gifite umumaro kuko ni kimwe aho inzuki zijya guhaha, zigakuramo ibyo zikoramo ubuki.

igihwagari, kimwe mu bihingwa ngengabukungu, kuko igihwagari kivamo umusaruro ukorwamo amavuta yo kurya akundwa ku isoko. Igihwagari kandi ni kimwe mu bimera inzuki zikoresha zijya guhahiramo ibyo zikoramo ubuki.

Ubwoko bw'ibihingwa by'ibinyampeke byitwa ubunyobwa, bitaratonorwa bikiri mu bihu byabwo, bukaba ari igihingwa gihingwa kikerera hasi mu butaka, kikaba gihingwa ahantu hari ubutaka bwumutse nko mu musozi, kikaba gihingwa nyuma cyaza kigatonorwa, kigajyanwa ahantu bakibeteshereza, kikavamo ubunyobwa buribwa mu biryo.

Ikibuti cyangwa inzu yororerwamo inkwavu n'inkoko. Ahahororerwamo inkwavu za kijyambere akaba ari kimwe mu nyamaswa cyangwa mu matungo magufi atanga umusaruro, kuko zoroka mu gihe gito, kandi inyama zazo n'ifumbire bikaba bitanga amafaranga menshi cyane.

Ubworozi bw'ingurube, rikaba ari itungo rigufi ariko ryororerwa mu kiraro. Rikaba ritanga umusaruro ushimishije, kuko iyo ryitaweho rikura mu gihe gito, kandi rikororoka mu gihe gito cyane, kandi ribyara ibyana byinshi, inyama za ryo zirakundwa mu tubari n'ahandi, zizwi nk'akabenzi.

Ahantu habigenewe hashyirwa inka, mu gihe cyo kuzivura cyangwa kuzitera umuti ndetse no kuzitera intanga, ni ahantu hubatse hatuma inka idasaza cyangwa ngo ibangamire abarimo gutera imiti, aha ni ahantu abanyeshuri kandi bajya gukorera icyo bita igerageza, bareba ko ibyo biga banabishyira mu ngiro.

Ihene, ikaba ari itungo rigufi ryororerwa mu rugo cyangwa mu kiraro. Ikaba ari haza umuganga cyangwa veterineri umuganga w'amatungo, uzivura akazitera umuti mu gihe zarwaye, cyangwa akazitera umuti wo kuzirinda indwara. Bigatuma umusaruro wazo uba ushimishije nta nkomyi.

Cyangwa udupaniye tubikwamo umusaruro w'amagi ukomoka ku nkoko, amagi ni kimwe mu musaruro mwiza utanga amafaranga ku borozi b'inkoko n'abacuruzi bawe kuko ukorwamo imigati n'ibindi bintu, amagi kandi akungahaye ku byubaka umubiri.

Ubworozi bw'inka akaba ari kimwe mu matungo manini, yororerwa mu kiraro kandi ikakaba itanga umusaruro binyuze mu nyama cyangwa se amata, inka ni kimwe mu bintu bigira amafaranga, kuko inyama zayo ziribwa kenshi cyane n'abantu benshi cyane mu mujyi no mu cyaro.

Ubwoko bw'amatungo magufi atanga umusaruro cyane, kuko inyama zazo zikundwa cyane mu tubari ,mu mahoteri n'ahandi, kandi zigira umusaruro kuko ni kimwe mu matungo yororoka mu gihe gitoya.

Abanyeshuri bari mu kwiga ibijyanye no kuvura amatungo, ibi birakorwa cyane kuko bajya kwiga uko bazavura bakiri mu mashuri, bashyiraho amatungo bakoreraho igerageza bakayigiraho, maze bakagira ubushobozi bwo kuzavura bageze hanze, bituma umusaruro ukomoka ku matungo wiyongera.

Ubworozi bw'amatungo ibi bikaba bikorwa mu gihe inka yagaragaje ibimenyetso by'uburwayi, aho haza umuganga wabyigiye maze akayitera umuti akurikije uburwayi irwaye, ikindi kandi bashobora kuyitera umuti wo kuyikingira uburwayi kugira ngo igire ubuzima bwiza itange umusaruro ushimishije.

Ubuvuzi bw'amatungo cyangwa se ubw'inyamaswa, bikaba ibi bikorwa mu gihe inyamaswa zirwaye, bakazitera umuti cyangwa se igihe bafite ubwoba ko zazarwara indwara bakazitera umuti, bizirinda kuzarwara. Ibi bikorwa ku matungo yo mu rugo cyangwa se ku nyamaswa zibungabungwa n'abantu bazicunga.

Ahantu hororerwa inka nyinshi zizwi nk'ishyo, hakaba habamo inka ziganjemo, amashashi cyangwa imbyeyi zitanga umukamo, uwo mukamo ukoreshwa cyane ,kandi ugira inyungu, kuko amata ni kimwe mu bintu bikungahaye ku byubaka umubiri, ndetse arakundwa cyane n'abanyamugi ,cyangwa abandi bantu batabasha kugira inka ,kugira ngo babone amata yabo.

Ku rwuri cyangwa se ahantu hororerwa inka nyinshi, ziganjemo iz'imbyeyi zitanga umusaruro ushimishije, binyuze mu ko zibyara zikavamo izitanga uw'inyama ndetse n'amata, kimwe mu bintu bikundwa cyane bituma umusaruro w'inka ushimishije, uteza imbere aborozi.

Ubworozi bw'ingurube, itungo rigufi ryororerwa mu kiraro, rikaba rigira umusaruro ushimishije, kuko ari kimwe mu matungo yororoka mu gihe gito, kandi rikaba ribyara ibibwana byinshi icyarimwe. Inyama za ryo zirakundwa cyane, zizwi nk'akabenzi, bituma aborozi ba zo bazikuramo amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Ubworozi bw'ingurube, ikaba ari itungo rigufi ryororerwa mu kiraro, rikaba ritanga umusaruro ushimishije kuko ryororoka mu gihe gito kandi rikaba rishobora kubwagura ibyana byinshi icyarimwe. Bituma abarozi baryo bagira amafaranga kuko n'inyama zaryo zirakundwa mu tubari, zizwi nk'akabenzi.

Ibyapa bitatse ku muhanda birangira abantu aho baje gushakira serivisi bakeneye, hakaba hari ibyapa binini bimanitse ku mazu cyangwa ku mihanda bituma abantu babibona, ubundi bikabayoboraba aho bashaka kujya. Ibyapa kandi biba bishushanyijeho ibishushanyo bigaragaza ibikorerwa aho bashaka kujya.

Itungo rigufi ryitwa ihene, ryororwa mu kiraro rikaba ritanga umusaruro binyuze mu nyama zaryo, zikundwa cyane mu tubari, aho zizwi nka burusheti. Ihene itanga umusaruro binyuze muri izo nyama, ikindi kandi yororoka vuba, bituma aborozi bayo babona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Inka ni imwe mu matungo maremare cyangwa se manini yororerwa mu rugo, ndetse n'ahabugenewe hazwi nko mu rwuri ikaba ari inka itanga umusaruro binyuze mu musaruro w'amata wayo cyangwa se inyama. Ikaba igira umusaruro w'amata ukoreshwa mu nganda atunganywa agakurwamo ibizwi nka biswi cyangwa n'ibindi bintu ndetse n'inyama zayo zikaribwa cyane mu baturage.

Ubworozi bw'ingurube rikaba ari itungo rigufi, ryororerwa mu rugo cyangwa mu kiraro, rikaba kandi ari rimwe mu matungo agira umusaruro, kuko ryororoka kandi mu gihe gito, ikindi rikaba ribyara cyangwa rikabwagura ibyana byinshi icyarimwe, bituma rigira amafaranga ku borozi baryo n'inyama zaryo zirakundwa cyane.

Ubwoko bw'itungo rigufi bwitwa ingurube. Ikaba ari kimwe mu matungo agira umusaruro ushimishije, kuko inyama zaryo zikundwa ku isoko, kandi ryororoka mu gihe gito ugereranyije n'ayandi matungo. Rikaba rigira amafaranga ku mworozi, ku mubazi n'umucuruzi w'inyama.

Urwuri cyangwa ahantu hororirwaga inka nyinshi, mu gasozi kaba ari kimwe mu matungo gatanga umusaruro, kuko amata yako cyane se n'inyama bikundwaga ku masuku bitumaga aborozi bazo bitezaga imbere cyane, ndetse n'abaturage bakabona umusaruro wazo, bakoroherwa mu buzima bwa buri munsi.

Ubwoko bw'itungo rigufi ryororerwa mu kiraro, rikaba rigira umusaruro binyuze mu kuba ribwagura ibyana byinshi kandi mu gihe gito, ndetse n'inyama zaryo zikaba zikundwa ku isoko zizwi nk'akabenzi.

Itungo ry'ingurube rikaba ari rimwe mu matungo magufi yororerwa mu rugo, agira umusaruro ushimishije kuko ryororoka mu gihe gito kandi rikabwagura ibyana byinshi. Inyama zaryo zirakundwa cyane mu tubari ndetse no ku masoko zizwi nk'akabenzi.

Ubuvuzi bw'inka kaba ari kimwe mu bintu biteza imbere abaturage n'aborozi muri rusange. Aha hari veterineri cyangwa se umuganga wabugenewe uba yarabyigiye aza agatera inka umuti ndetse akaba yayikingira no kuyivura igihe yarwaye .aha ari gukoresha ipombo ayitera umuti wica udukoko dushobora ku nka tukayitera uburwayi.

Itungo ry'ingurube rikaba ari i tungo rigufi ryororerwa mu kiraro rikaba ritanga umusaruro mwinshi ushimishije, kuko ryororoka mu gihe gito kandi inyama zaryo zikundwa ku isoko nko mu tubari zizwi nk'akabenzi.

Ibagiro cyangwa se ahantu hasuzumirwa inyama, ngo zirebwe niba zujujwe ubuziranenge mbere yuko zijyananwa ku masoko, ngo abaturage batangire kuzirya, ibi bikaba bituma hirindwa indwara zava mu nyama zanduye cyangwa zifite ubundi burwayi.

Urukwavu akaba ari ubwoko bw'itungo rigufi ryororerwa mu rugo cyangwa mu kiraro, rikaba rigira umusaruro ushimishije kuko ryororoka mu gihe gito kandi inyama zarwo zikaba zikundwa cyane, kuko zigira vitamini zizwi nk'inyama z'umweru akaba mu mahoteli mu maresitora ari zo nyama zihenda cyane.

Imbeba, ubwoko bw'inyamaswa nto cyane, ikaba ikunda kuba mu ishyamba ndetse no mu mazu y'abantu, aho ikunda kona imyaka yahunitswe, ndetse ikaba irya n'ibiryo, cyangwa se imyenda y'abantu, iroroka mu gihe gito, kandi ntirya abantu, ahubwo yona imyaka n'ibindi bintu biri mu nzu.

Umusambi ubwoko bw'inyoni nini cyangwa igisiga gifite amabara meza kandi gishimishije, akaba ari inyoni yakundaga kuba ahantu hari amazi ndetse no mu ishyamba, iyo iba nk'ahantu muri parike abantu barayikunda bituma bajya kuzisura bakinjiriza pariki amafaranga.

Inzovu, inyamaswa imwe mu nyamaswa nini cyane, ikaba ari inyagasozi cyangwa, ikaba iba mu ishyamba, izi nzovu zigira amahembe ngo afite agaciro kanini, ku buryo ba Rushimusi bazihiga cyane ngo bayagurishe, ikindi iyo ziri muri parike, ni kimwe mu bintu bikurura ba Mukerarugendo.

Inyamaswa iri mu biguruka yitwa umusambi, ikaba ari kimwe mu nyoni cyangwa ibisiga bikundwa cyane kuko bigira amabara meza, ndetse n'udusatsi ku mutwe, bituma abantu bayikunda cyane, iyo yashizwe muri parike ikurura ba mukerarugendo, bituma parike yinjiriza amafaranga igihugu.

Igikoko cyitwa Icyugu cyangwa Igihangara, kikaba gikunda kuba mu ishyamba ndetse no mu ngo zo mu cyaro, nk'ahantu haba ibiti, kirya udukoko duto nk'amasazi, imibu n'utundi tuguruka dutoya.

Inyoni ikaba ari imwe mu bwoko bw'inyoni, zicukura umwobo mu giti zikabamo, ikaba izwi nka Dondanga iragenda igacukura igiti, ubundi ikarikamo imbere ikajya itereramo amagi, bituma yaruriramo utundi tunyoni twayo.

Inyamaswa y'inyagasozi yitwa agasumbashyamba. Ikaba ari inyamaswa iba mu ishyamba, ndende igira amaguru ndetse n'ijosi birebire cyane. Ikaba ikundwa na ba mukerarugendo igihe bageze muri pariki, bituma yinjiriza amafaranga Igihugu muri rusange.

Inyamaswa y'agasozi izwi nk'imbwa, ikaba itungwa n'ibyo yihigiye mu gasozi birimo imbeba, cyangwa se utundi dusimba, n'iz'inyama cyangwa ibindi bintu byose ibonye, nka voka biri mu gasozi, kuko ni ho itaha. Nta bantu ihura na bo, ikaba ari inyamaswa mbi cyane, kuko yangiza n'ubuzima bw'abantu.

Inyamaswa y'ishyamba iba mu ishyamba. Ikaba itunzwe n'ibyatsi n'ibindi bintu by'ibimera irisha mu ishyamba. Iyi ni inyamaswa idakunda kuba yakwica izindi ngenzi zayo, ahubwo ni yo iba umuhigo itunga izindi nyamaswa z'inkazi nk'intare, imbwa n'izindi ndyanyama.

Inyamaswa nini yo mu bwoko bw'inyamaswa z'inkazi ziba mu ishyamba. Ikaba ari inyamaswa zikundwa cyane kuko zishyirwa mu byanya byabuhariwe bituma abantu bajya kuzisura, bakishyura amafaranga. Amafaranga bishyuye, agateza imbere igihugu muri rusange.

Umusambi akaba ari ubwoko bw'inyoni nziza cyane zigira amabara ashimishije. Zikaba zikunda kuba ahantu mu ishyamba, ndetse ahantu ziba abantu bakunda kujya kuzireba, bityo n'iyo ziri muri pariki ba mukerarugendo bajya kuzireba, kuko ziba ziteye ubwiza cyangwa se zisa neza, zibashimisha cyane.

Inyamaswa nto cyane ikunda kuba mu nzu, ikaba irya imyaka nk'ibigori n'ibishyimbo mu gihe byahunitswe mu nzu, ikindi kandi ikunda no kuba mu ishyamba ntiryana uretse ko yona imyaka ikanangiza bimwe mu bintu n'ibikoresho biba mu nzu.

Impyisi inyamaswa y'inyagasozi iba mu ishyamba y'indyanyama. Ikaba itunzwe no guhiga izindi nyamaswa ntoya ishoboye nk'imbwa, amapusi, ihene n'udusumbashyamba. Ikaba izica ikazirya maze na yo ikabaho. Impyisi ni imwe mu nyamaswa z'inkazi zirya n'abantu...

Ubwoko bw'inyamaswa yitwa inzoka, izwi nk'umukenganya. Iri mu myumbati, ikaba ari inyamaswa iba mu ishyamba. Iyi nzoka ikaba iryana cyane kandi ikaba ikunda kuba iri mu biti n'ahandi hantu hari ibyatsi, ndetse no mu mwobo. Ikaba irya inyamaswa zindi nk'imbeba n'utundi dukoko.

Ubwoko bw'inyoni buri hejuru ku tsinga zitwara umuriro w'amashanyarazi. Zikaba ari ifundi, zikaba ari inyoni zigendera hamwe. Akenshi kandi zarika mu biti zikagurukira rimwe, zikaba zona imyaka. Zikunda kuba ahantu hari amafu, ahantu babetera kugira ngo zihakure ibyo kurya.

Inyamaswa y'inyagasozi iba mu ishyamba cyangwa mu mazi yitwa imvubu, ikaba ari imwe mu nyamaswa nini, cyane cyane ikaba izwiho kuba iba mu mazi, aho irya ibyatsi cyangwa n'ibindi bimera, ikaba n'inyamaswa y'inyagasozi iryana cyangwa yahutaza abantu, aho iri muri pariki abashyitsi cyangwa ba mukerarugendo bajya kuyisura.

Ubu bwoko bw'inyamaswa buba mu ishyamba ,zikaba ari zimwe mu nyamaswa ziteye nk'umuntu, kuko zigira amaguru, amaboko, n'intoki . Zikaba ari kimwe mu nyamaswa zitangaje cyane, kuko ba Mukerarugendo bajya kuzireba aho ziba muri pariki bikinjiriza igihugu amafaranga.